Ipikipiki ivuye mu ruganda iteye amarangi agaragaza na sosiyete bari kwamamariza ibatera inkunga.

Kwaka no guhabwa ubufasha bujyanye n'ikoranabuhanga bakubikira, bakubikuza amafaranga.

Itumanaho ridufasha mu kuduhuza mu buzima bwacu bwa buri munsi kubaza umuntu amakuru, wumva uburyo umerewe, mu kohereza amafaranga ndetse no kuyakira twifashishije ihuzanzira.

Gushishikariza abantu gukoresha itumanaho rya sosiyete uba ukorera, ni imwe mu nshingano z'umukozi kuba yazikora kandi akazikora neza kugira ngo abakiriya baryitabire.

Abakozi b'Irembo nyuma yo gutanga ibiganiro bari kuganiriza abanyeshuri babagaragariza urugwiro babafitiye.

Igice cy'umujyi kirimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga bajya mu byerekezo bitandukanye bashaka imibereho.

Kumva abitabiriye ibiganiro ni bumwe mu buryo bwo kubereka ko wabahaye agaciro kandi na bo bakurikiranye.

Ari kujisha ibyansi kuri moto ngo ajyane amata ku ikaragiro aho akusanyirizwa ngo abashe kugezwa aho akenewe mu bice bitandukanye akimeze neza.

Ibikorwaremezo by'ubukorikori n'imyuga bikoresha imashini zigezweho bifasha mu kwihangira imirimo no mu iterambere ry'urubyiruko.

Biba byiza kwicaza abantu ahantu bisanzuye, bakureba neza, banaguteze amatwi bakubakumva.

Mu birori habamo igice cyo gushimisha abacyitabiriye ushobora no kuzana intore z'bigize umwuga zikabafasha mu kwishima.

Kumurika ibikorwa ukora: ubyereka abaje bakugana, uzi no kubisobanura, ubabwira n'akamaro kabyo, uburyo wagikoresha, uburyo cyamufasha nibwo bituma kigurwa neza kandi byihuse.

Umukozi uri mu biro uri kwakira abaje bamugana ngo abahe igisubizo ku byo bifuza gusobanukirwa.

Gukora umwuga w'ubukorikori birafasha mu iterambere ry'umuntu ubukora.

Kwamamaza bamamaza bakoresheje ibintu bitandukanye. Hari igihe biba ngombwa ko icyo bamamaza, ugishyira no ku modoka igenda, igenda kugira ngo bigaragare ahantu henshi iyo modoka izajya inyura.

Ubuhinzi bw'imboga, ni ingirakamaro kuko tuzikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi zigaragara, mu byubaka, umubiri.

Gukora neza kandi ushyizemo umuhate mu byo urimo, biguhesha ibihembo by'ishimwe.

Ku ikusanyirizo ry'imyaka, aho ihurizwa igihe yeze, abaturage bari kuyitunganya, kugira ngo ibashe kugezwa ku isoko.

Ni byiza gukora ubukangurambaga mushyize hamwe, mwambaye n'impuzankano yerekana igikorwa murimo gukorera icyo ari cyo.

Nibyiza kumenya uko ushyira ibintu ku murongo iyo ubucuruzi bwawe bwiganjemo ibintu bitandukanye ukamenya aho gushyira ibinyobwa n'ibiribwa.

Inzu ibitse ibicuruzwa by' ibinyobwa aho babishyira kugira ngo abakiriya babirebe babashe kwihitiramo icyo bashaka.

Ubugeni bushushanyije mu buryo bw'amarange, buranga aho ushobora gusanga kano kabari karimo biriya binyobwa byo kunyobwa.

Inzu zikorerwamo ishoramari ry'akabari ziba zigomba kuba zifite ibyo abakiriya bazigana baba bashaka, hakiyongeramo no kuba bacurangira imiziki kugira ngo bishime, igihe bicaye barimo barafata ibyo baguze.

Aho utereka amacupa y'ibinyobwa, ni kimwe mu bituma umuntu uje kubireba yumva ashaka kubinywa.

Mu igurishirizo ry'ibinyobwa, haba hagomba kuba hasa neza kugira ngo hakurure abakiriya, baza bahagana.

Akabati baterekamo ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye ahirengeye umukiriya kugirango abashe gufata icyo ashaka bitamugoye.

Gucuruza ibyo abantu bakeneye mu gace uherereyemo birafasha cyane nibwo ubona umukiriya uhagije.

Iyo mu nyubako ufite ibicuruzwa bitandukanye byinshi, hari igihe biba ngombwa ko ubishyira hanze mu buryo bwo kwamamaza ibicuruzwa ufite.

Ikirori wireberamo uri gushaka kureba nimba usa neza n'amakaramu wakoresha wandika igihe ushaka gukora inyandiko.

Iyo ufite ubucuruzi ukagera n'aho ubukorera urihangana ugategereza umukiriya ukamwakira ukamuha ibyo aje ashaka ufite.

Agapfukamunwa kifashishwa gakoreshwa mu gupfuka imyanya y'ubuhumekero, wirinda indwara. Kagomba kubikwa neza mu buryo bwiza, kandi kagakoreshwa inshuro imwe.

Gucuruza amavuta yo kwisiga ni byiza kuyapanga neza ku buryo uje akugana abona amukurura akabona n'ayo ashaka bimworoheye.

Umuryango ucururizwamo imbuto zitandukanye ufite abakiriya benshi baza bawugana bitewe n'ibiwurimo byiza.

Kuyobora amateraniro bisaba kuba ufite umwuka w'amavuta, wejejwe, utanga icyigisho kiyobora abantu mu nzira nziza.

Abayoboke b'idini bitabiriye igikorwa cyamasengesho kiri gukorwa yo gushima imana.

Ishusho y'urwibutso ifatwa nyuma y'ihuriro riba ryabayeho ryahuje abagize komite nyobozi y'urusengero n'amatorero.

Iyo ukoze neza urahembwa ugashimirwa ubwitange wagaragaje mu byo wifuzaga ko byagerwaho.

Inyubako z'amadini n'amatorero ni hamwe mu bantu heza abemera imana bemera ko bafashirizwa bakakira agakiza n'umugisha bahabwa n'abashumba.

Inama igaruka mu kwigira hamwe uko hanozwa imisengere no gutanga mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi by'urusengero.

Ifoto y'urwibutso y'abayobozi b'itorero n'abakristu, bishimira ibyiza bakomeje kugeraho, mu rusengero rwabo.

Gufungura ku mugaragaro igikorwa remezo k'inyubako ya hoteri, ku mugaragaro kugirango itangire gukora.

Ibiryo biteguye neza ubirya ukumva biraryoshye ukanashishikara ukaryoherwa.

Mu bwiherero nta ahantutu ho kugirira isuku nyinshi ihagije, kuko hadashobora gusohora umwuka utari mwiza mu gihe hadasa neza uko bikwiye.

Kumenyekanisha ko uri bwaze gufata icumbi mbere yigihe, birafasha kuko umwanya wawe igihe cyose uzira usanga uhari.

Icyumba cya hoteli bifashisha bakora inama n'ibiganiro bakaba banahicara bari kwiyakira no gukora akazi cyane akajyanye n'ako mu biro.

Kwakira neza no gutegura ahantu ukorera mu buryo bujyanye n'igihe, birafasha mu gukurura abakiriya baza bakugana iwawe.

Biba byiza iyo icumbi rifite ibyangombwa byose nkenerwa, umuntu akenera nk'iyo ari mu rugo iwe.

Kubaka inyubako zakira abantu nibyiza gushyiraho n'agace kaho baruhukira; babasha no gukorera siporo yo koga.

Imbuga yo gusigaho imodoka cyangwa uhingukiraho, mbere yuko winjira werekeza ku macumbi ugiyemo.

Icyumba bacumbikamo barara, kiba gisa neza gifite n'aho kwicara n'imeza waterekaho gukora akazi kawe nimba bisaba kugakorera ku ikoranabuhanga.

Inzu zagenewe mu kwifashishwa kwakira abantu mu gihe gito, ziba zigomba kugira uburiri bwiza abantu bakaruhuka bumva bameze neza.

Icyumba cya hoteri kirimo uburiri bwo kuryamaho nameza bifashisha barambikaho ibikoresho cyangwa batera ipasi na supanete yo kwirinda imibu mu gihe uri kuruhuka.

Iyo ufite ahantu wagenewe gucumbikira abantu, uba ugomba kubaha ibisabwa nk'aho kogera, aho kurira n'aho kuruhukira.

Ku nzu zitanga serivisi y'ibyo kunywa no kurya, iyo abazigana bagiyeyo basanga urupapuro ku meza babakiriraho, ruriho ibihari n'ibyo bagomba kwishyura uko bingana.

Kuryama ku buriri busa neza busukuye, bigufasha kuruhuka mumutwe no mu mubiri ukabyuka ugakora akazi kawe muburyo bwiza cyane.

Inyubako zifite ibyumba byamacumbi, ziba zigomba kugira ahantu heza hakurura abaje bazigana no kwakirwa neza.

Aho hakorerwa ubucuruzi buciriritse hifashishijwe imbuga kugira babashe kudandikaho ibicuruzwa baba bazanye gucuruza.

Gukora ubucuruzi bwo kudandaza inkweto bigira inyungu k'ubukora kuko aba arimo aracuruza igicuruzwa gikenewe ku isoko mu buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Iyo ucuruza ibiribwa bitandukanye uba ugomba kwerekana uburyo bigiye biteretse n'uburyo ubigura bitandukanye abaje bakugana ukabasobanurira.

Mu masoko atandukanye hagaragaramo abazunguzayi baba bafite ibicuruzwa bitandukanye, baba bari kugurisha bashaka imibereho.

Ubucuruzi buciriritse bw'imyenda bisaba ko aho ukorera ari wowe uhishakira, ugakora wumva ufite umudendezo.

Ubucuruzi buto buzwi nko kudandaza ku muhanda aho bacuruza bashaka imibereho.

Agace k'ubucuruzi gacururizwamo ibiribwa bitandukanye, ibitoki, inanansi, amatunda, amacunga, ibinyomoro.

Gukora umushinga wo kugaburira abantu no kubaha icyo kunywa bisaba umwanya uhagije wo kubasha kubakira no kugira ababaha ibyo bakeneye.

Ameza n'intebe abantu bicaraho bafata amafunguro, biba bigomba gusa neza bidafite umwanda kugira ngo bafungure ibiryo byabo banezerewe.

Kugendera mu muhanda hifashishijwe ikinyabiziga cy'ibyabitende ibiri, uri ku rugendo.

Mu muhanda w'ibisate bibiri, iyo umuntu utwaye ipikipiki awugendamo, agomba gusatira umurongo wera uri ku ruhande rw'icyerekezo arimo.

Gutwara ipikipiki ukurikiza amabwiriza n'amategeko kandi ufite ibyangombwa byuzuye. Ni byiza mu rugendo rwawe kuko nta mpungenge uba ufite.

Ni ngombwa gutwara abantu wabambitse ubwirinzi bwo mu mutwe kuko bubarinda kwangirika igihe mukoze impanuka.

Gutwara ipikipiki bisaba uruhushya rwo mu rwego rwa a rukwemerera ko ufite ubushobozi bw'icyo kinyabiziga.

Uburyo bwo gutambuka mu muhanda uko bigenwe n'amategeko agenga inzira.

Uburyo bwo gushaka imibereho, gutwara abantu ku ipikipiki ubajyana mu bice bimwe , unabakura ahandi, berekeza ahandi barimo barajya.

Umwuga wo gutwara abantu ku ipikipiki bisaba gutwara neza utagenda ucunda umugenzi ukamugeza ahagiye amahoro.

Gukora umwuga wo gutwara abantu bisaba kuwukunda. Ukanamenya igihe bakunze kuba bakeneye kugenda, ayo masaha ukitegura ukagakora.